Buri kampani igomba kuba ifite abantu batoranijwe bayihagarariye ndetse bakaba abambasaderi beza bo kuba basangiza ku bandi ubwo butumwa bw'iyo kampani.

Umukozi ushinzwe gukora akazi runaka ni ukuvuga ukorera company runaka, agomba kuba yambaye impuzankano igaragaza neza ko iyo company ariyo akorera ndetse binanditseho kugira ngo hatagira abantu bamwibeshyaho.

Ni byiza ko igihe CAmpany ifite umukozi uyikorera igomba kumuha n'akazu yugamamo imvura kugira ngo akomeze atange izo serivisi nta zuba rimwica ndetse nta mvura imugeraho.

Si byiza ko abamotari bagura moto zakoze, ni ukubuga zishaje kubera yuko ziba zaramazemo amafaranga, bikaba byatuma ziteza impanuka mu mihanda ahubwo ni byiza ko bajya kuzigurira zikiri nshyashya.

Ku kigo cy'amashuri hagomba kuba hari itandukaniro n'izindi nyubako kubera yuko inyubako zose burya ziba ari zimwe ariko ziba zifite ikintu kizitandukanyirizaho, ukamenya niba ari ishuri cyangwa ivuriro.

Abantu bakorera kampani ya Airtel bagomba guhabwa igihembo k'ishimwe igihe babikoze neza kubera ko iyo umukozi akoze neza agomba no guhembwa neza.

Iyo ucuruza amayinite cyane cyane ya MTN ugomba kwegera ahantu hagomba kuba hari abantu benshi kugira ngo serivise utanga igere kuri benshi kandi nawe bikugirire inyungu.

Niba ukeneye amafaranga mu buryo bwiza cyangwa bwihuse ugomba kugira itsinda ubarizwamo ririmo nka koperative runaka kuko iyo ukeneye no kwiguriza bakuguriza ugakemura ikibazo cyawe.

Ni byiza kubona abantu bateraniye ahantu hamwe, bafite imiti runaka barimo bigaho kugira ngo barebe uko bazayikoresha cyane cyane ku bantu barwaye bakaba bakira.

Leta y'u Rwanda yashyizeho ndetse inaha abantu b'urubyiruko, imashini zo kuba badoda, babanje kubyigishwa, bamara kubimenya bakazihabwa ndetse na bo bakibumbira mu makoperative, yo kudoda kugira ngo batezanye imbere.

Abantu bibumbiye mu makoperative yo kudoda, batanga ubuhamya yuko bigira amafaranga menshi kubera yuko bituma bibumbira hamwe, bagakorera hamwe ndetse bakabona amafaranga.

Gukorera hamwe kw'abaturage cyane cyane kwibumbira mu makoperative byatanze umusaruro mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko byatumye abaturage bakura amaboko mu mifuka bagakora.

Kwibumbira mu matsinda yunguka amafaranga ni byiza kuri buri muturage wamaze kujijuka kubera ko ayo mafaranga arunguka kandi bigatuma imishinga yateguye gukora ayikora.

Iyo abantu bibumbiye mu makoperative ntacyo badashobora kugeraho kuko ni cyo kintu cyatumye abaturage biteza imbere mu myaka ishize yose, byatumye bakanguka bakamenya umurimo icyo ari cyo.

Kwibumbira mu makoperative ndetse n'andi matsinda, ashobora kuba yatuma tubona amafaranga ni byiza kubera ko bituma dukura amaboko mu mifuka tugakora kandi natwe umusaruro ntidutinda kuwubona.

Si byiza ko abana bacu batangira kunywa amayoga bakiri batoya kubera yuko bibangiriza mu bwenge ndetse no mu mitekerereze, bigatuma n'ayo mashuri abananira kuyiga ngo bayarangize.

Ahantu hahurira abantu ndetse bakaba banasangira icyo kunywa n'icyo kurya, hagomba kuba hateguye neza, ameza asa neza ndetse n'udukoresho twaho tukaba dukeye kugira ngo bibakururire kuzahagaruka.

Iyo umucuruzi afite akabutike ke, agomba kuba afitemo utuntu tw'ingenzi abantu bakenera harimo nk'amafu, harimo ibindi byo kurya bitandukanye kugira ngo umuturage urabikenera aze kubibona neza bitamugoye.

Ni byizayiza ko dushishikarizwa gukoresha umuti w'amenyo, tukayoza buri munsi byibura gatatu ku munsi, mugitondo saa sita ndetse na nimugoroba, kugira ngo amenyo yacu ahorane isuku.

Iyo ugeze muri botike ahantu hatandukanye uhasanga utuntu twinshi harimo ibitenge, udukapu, amasaha n'ibindi bikoresho byiza kandi ubona ko binogeye amaso.

Ni byiza ko buri gace kegerezwa butike kugira ngo ibyo umuturage akeneye abibona adakoze urugendo rurerure kuko iyo begerejwe ubucuruzi, na bo biborohereza ingendo.

Buri gace kagomba kuba karimo isoko rihahirwamo ibintu bigiye bitandukanye, ku buryo umuturage icyo ashaka cyose adakora urugendo rurerure ajya kugishaka ahubwo kikamwegerezwa.

Dukunze kuba tuzi ko iyo umuntu akeneye gufatanya ikintu cye cyapfuye cyangwa cyacitsemo kabiri, angomba gukoresha supaguru kubera ko ariwo muti twizeye neza ko ufatanye ibintu byari byatandukanye.

Mu Rwanda ntabwo haravumburwa uburyo bwiza bwo kuba bakora saladine, kubera yuko tusigaye tuzitumiza mu mahanga kandi ibikoresho byayo byose tubyifitiye, igisigaye ari ukuba twayikorera.

Si byiza ko butike iba ifite ibicuruzwa binyanyagiye ahantu hose ahubwo ukora muri butike agomba gufata ibintu bye akabipanga neza ku murongo kugira ngo hagaragare isuku.

Iyo ugeze ku rusengero usanga ari ahantu haba hubashywe umuntu agera agaca bugufi, ukabona ko asabanye n'imana akayubaha kuruta uko yubaha abandi.

Leta y'u Rwanda imaze kubona ko ibintu by'amatorero bizamo akavuyo, yashyizeho ingamba zigiye zitandukanye zirimo nko kuba insengero zegeranye zimwe zagenda zikurwamo hagakora iza rusange.

Iyo ugeze mu nsengero zigiye zitandukanye, uhasanga amakorali yagiye atandukanye avuga ubutumwa bwiza binyuze mu ndirimbo, kandi ubwo butumwa bwiza bugatuma abantu benshi bihana.

Iyo ugeze mu nsengero ukunze kuhasanga handitsemo ijambo ry'imana, kubera yuko iyo uhageze uhita ubyibwira bitewe n'i ijambo ry'imana riba rihanyanditse kandi rifasha benshi.

N'abantu bateraniye hamwe cyane cyane mu rusengero bagomba kuba bahuje umutima ndetse bafite n'intego imwe kuko bose baba baje gusenga, hanyuma bamara gukora ibyo bakora bakaza kuba basubira mu ngo zabo.

Muri iyi minsi insengero zafunzwe dushishikarizwa gusengera mu ngo zacu cyangwa tukajya aho zitarafungwa hujuje ibyangombwa ariko nanone tujye twubahiriza amategeko Leta yacu iduha.

Byagaragaye ko haje n'ikoranabuhanga ry'uko abantu bashobora gutura mu nsengero, badafite amafaranga mu ntoki, nyuma yuko Covid ije. Ubungubu buri wese nibwo buryo bwiza abikoramo kubera yuko twamaze kumenya agaciro k'amafaranga atagendanwa ariko gashobora gutuma twirinda indwara zigiye zitandukanye.

Igihe cyose umuntu yumva adatunganye imbere y'imana, agomba kwegera ku ruhimbi, agaca bugufi agasaba imana imbabazi kuko umubiri n'ubugingo iyo birinzwe, umuntu aba ari muzima.

Ni gake uzajya muri hoteli runaka ugiye kwakamo icumbi uri bunararemo ngo usange hatari isuku yo ku rwego rwo hejuru, icyo gihe iyo utayihasanze urahira ko utazongera kuhagaruka.

Icyumba cyo baganiriramo, kigomba kuba gisa neza, cyane cyane nk'aba batanga serivisi zo mu mahoteli, bagomba kuba ibyo bintu babyitaho mbere yuko bashinga hoteli, bakamenya ibiyikenerwamo byose.

Ubundi umuntu wateguye umushinga wo kuba yakubaka hoteli, agomba gutekereza y'uko no ku ruhande azahashyira pisine kugira ngo abantu igihe bumva bananiwe babe bajya muri ayo mazi boge baruhuke.

Ni byiza ko mbere yuko dukora ikintu, tugomba kujya mu matsinda tukakiganiraho, hanyuma tukagifatira umwanzuro ukwiriye, tukabona kuba twagitangiza cyangwa twagishyira mu bikorwa.

Kuba wafata ahantu ukazengutsa ibyuma, ugatera udutebe dusa neza n'amatara acanye yagiye atandukanye, bituma umuco waho wiyongera ndetse n'abahagana bakaba benshi.

Iyo ugeze muri hoteli kimwe mu kintu utabura ni ukubona isuku kubera ko ibikorwa byabo byose birangwa n'isuku ndetse n'ibintu byabo biteguye neza, kugira ngo binyure uwabihawe.

Iyo ugeze muri hoteli cyane cyane izo mu Rwanda usanga hatatse neza hanakeye ku buryo udashobora gutekereza kuzagana izindi hoteli zitari izo mu Rwanda.

Usibye kuba hotel zakegerezwa pisine hagomba kuba harimo n'udutebe two kuruhukiramo, umuntu areba ku mazi aba arimo boga ndetse n'ibindi bintu byashimisha umuntu kugira ngo yumva aruhutse.

Ahantu hakunze guhurirwa n'abandi benshi, agomba kuba hateye intebe nziza, ameza meza ndetse hakaba hanisanzuye kugira ngo umuntu abe yahazana n'umuryango we biganirire.

Kuba hari uburiri bushashe neza bigaragaza ko aho hantu hatuje, ibi ni ibikorwa bigaragara mu mahoteli kubera ko ari ho hantu haba hari izi serivisi.

Kimwe mu bintu biranga hoteli, zigomba kuba zikeye ndetse wanazirebabera inyuma ukabona ko uko inyuma hasa noneho ugiye imbere byaba ari akarusho, bigatuma zibona abakiriya.

Si byiza ko abantu bubaka amahoteli bayashyira ahantu hari amashyamba, kubera ko hotel yakagiye mu mujyi hagaragara neza kugira ngo buri wese imubere icyerekezo kandi abe yayibona aho ari hose.

Byagaragaye ko, hoteli nyinshi, zigomba kuba zubatse mu buryo bugerekanyije, kubera ko zijyamo abantu benshi, iyo ukoze imiryango mike, uba uhombye kuko abantu bazigana ari benshi.

Ubusitani bwiza, uruganiriro rwiza n'intebe ziteye neza ahantu heza. Ni bimwe mu biranga hoteli ifite ikerekezo kandi ishobora kubona abakiriya mu buryo bworoshye. Niyo mpamvu hoteli zabimenye zikaba zibikora kugira ngo zikurure abakiriya.

Kimwe mu bintu bikururira ba mukerarugendo kuba bagana amahoteli ni uko haba hari ibintu byinshi byiza byo umuntu yareba kugira ngo aruhure mu mutwe bigatuma ahabwira n'abandi.

Mu gihe cya coronavirus, abantu bose bashishikarizwaga kwambara udupfukamunwa buri gihe kandi aho bari hose, ariko n'ubu hari abakibukoresha mu mpamvu zo kurinda umutekano wabo cyangwa mu mpamvu z'uko birinda izindi ndwara ziterwa n'ikirere.

Igihugu cy'u Rwanda gikunze kugaragara nk'Igihugu cyita ku bintu by'isuku cyane, kubera ko iyo ba mukerarugendo baje bakigana kibaha amahoteli meza yo kuryamaho ndetse n'ibyokurya byiza.

Mu Rwanda haciwe gucuruza caguwa, ibi byo bacuruza bajyana mu ntoki, ahubwo buri muntu wese ategetswe kuba afite ahantu hazwi akorera ndetse akanafata ikibanza, kugira ngo abamuzi babashe kumenya aho aherereye.

Iyo umusaruro umaze kuba mwinshi ku bahinzi bashobora kubaka inzu zo guhunikamo imbuto zabo kugira ngo ibigori byabo bitazamugwa kandi igihe bazongera kubikenera bazabibone ari bizima.

Kimwe mu bintu bikubwira ko aha ahantutu ugeze ari mu isoko, ni uko icya mbere wabona abantu benshi kandi ukabona n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, nta kabuza abantu uhita ubyibwira ko ari mu isoko.

Iyo abaturage umusaruro wabo weze neza, bawuzana mu isoko kugira ngo bawuvujemo amafaranga. Bityo rero iyo ubonye amafaranga, bigutera imbaraga zo kuzahinga byinshi ubutaha.

Imbuto z'amoko menshi agiye atandukanye, ntushobora kugera mu isoko ngo uziburemo, kubera ko bamaze kumenya ko umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi, iyo ariye imbuto agubwa neza.

Iyo umubyeyi amaze kubona umusaruro uhagije w'ibyo yahinze awujyana mu isoko yishimye kubera y'uko aba azi ko ari butahane amafaranga kandi intego ye ahinga burya iba ari amafaranga nta kindi.

Biba byiza igihe cyose abahinzi iyo bamaze kweza umusaruro wabo ko begerezwa amasoko bakaba bawugemuramo kugira ngo nabo mu buryo bw'amafaranga, batahe bayabonye.

Ibikoresho birimo amajagi, imyuko n'amasahani ndetse n'ibindi n'indobo, uzabisanga gusa mu isoko ryabugenewe kuko ibingibi ariho biba bibarizwa.

Abantu bamenye ibanga ryo kurira mu maresitora, bakoresha amakarita y'ibyokurya kugira ngo bajye baza atari ukwishyura buri munsi ahubwo babe babavivurira kuri ayo makarita babone kurya.

Abamotari bagomba kwitonda igihe barimo bagendera mu mihanda kubera ko byagaragaye ko bakunze guteza impanuka nyinshi, ugereranyije n'abatwara imodoka kubera ko abamotari ntibakunze gukurikiza amategeko n'amabwiriza agenga umuhanda.

Ntako bisa kubona umumotari utwara ikinyabiziga ke agenda mu muhanda yubahiriza amategeko yose y'umuhanda, kubera ko aba yarabyigiye ndetse agahabwa n'urupapuro rwerekana ko ari inzobere muri byo.

Byagaragaye ko gutwara igare atari ibya bose kuko hari bamwe baba bayasunika gusa ariko batazi kuba bayurira ngo bayatware ariko n'ubundi bikabafasha mu kuborohereza gutwara ibintu naho baba batayazi.

Abanyonzi bikunze kugaragara ko bari mu bantu bateza impanuka nyinshi zo mu muhanda kubera yuko bo nta mategeko y'umuhanda baba bazi, kandi bakunze kugenda mu buryo bishakiyemo kubera ko ntayo bazi.

Si byiza ko umuntu utwaye ikinyabiziga agomba kurangara kubera ko iyo rangaye ashobora kwisanga yagonganye n'ikindi kinyabiziga cyangwa akabaha yagonga umuntu.

Bamwe mu banyonzi kubera ko baba batazi amategeko y'umuhanda, usanga ari bo bakunze guteza impanuka zo mu muhanda nyinshi, bagatwara mu buryo bishakiye, nyamara abandi bayobozi b'ibinyabiziga bo baba barabyigiye.

Umuntu wese si byiza ko ajya mu muhanda ngo atware ngo ni uko ikinyabiziga akizi, ahubwo agomba kuba afite provizwari ni ukuvuga icyangombwa kerekana ko azi amategeko yo mu muhanda ndetse na perime y'icyo kinyabiziga.

Igihe abatwara ibinyabiziga bari mu muhanda, bagomba kwitonda kubera ko umuhanda atari bo bonyine bawugenderamo. Bagakurikiza amategeko n'amabwiriza ku byo bagiye biga bagahabwa icyo cyangombwa.